Abaturage benshi icyarimwe bose bakaba bahagaze bategereje kwibona kuri risite nabo bakiyandikaho, bitewe buri wese na serivise yazindutse aza gusaba hano.

Abana b'abanyeshuri begerejwe amazi meza, bakaba basabwa gukaraba buri gihe intoki zabo n'amazi meza n'isabune kugira ngo bibarinde kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, urugero nk'inzoka n'izindi.

Umugore n'umugabo bose baje ku ivomero rusange, bubakiwe ku nkunga ya perezida, bakaba bari barabisezeranyijwe, ntago bakijya kuvoma mu gishanga cyangwa se mu kabande kuko begerejwe amazi meza.

Umugore uvuye kuvomera mu ndobo, indobo iri mu ntoki ze irasa umuhondo hanyuma iyo yikoreyeyo irasa umutuku. Yiteze igitambaro cyamufashije kuba yakikorera indobo kandi indi ayifite mu ntoki ze.

Urubyiruko abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero bafite morare nziza cyane kandi bari kumwenyura bigaragara yuko bafite icyizere cy'ejo hazaza.

Umuganga urimo urafata ibimenyetso, ni ukuvuga amaraso, akaba arimo arayafata umurwayi kandi yambaye neza ga mu ntoki ze ndetse yambaye n'itaburariya y'umweru imuranga nk'umuganga.

Unisefu unisefu kikaba ari ikigo cyangwa se umuryango mpuzamahanga, ushinzwe guharanira uburenganzira bw'umwana, akaba yavurwa, akaba yajya mu ishuri, kandi akabona ibyo akeneye byose, akaba bari kumwe n'umwana muto cyane urimo kunywa amazi.

Abana baje ku ivomero rusange. Bazanye amabido atandukanye bitewe n'ako buri wese akenera. Begerejwe amazi meza bitandukanye na mbere, kuko bavomaga mu migezi no mu biyaga.

Abaturage bazindukiye mu bikorwa bigiye bitandukanye, hari itente nini cyane kandi hari n'icyapa kinini cyane cyanditseho Nyabageni otirici masi sikirinizi, akaba ari igikorwa ngaruka kwezi kiba.

Abana bambaye inifomu kandi bicaye mu ishuri, bakaba bari guherwa ifunguro ryabo rya saa sita mu ishuri, kugira ngo baze kuba bakomerezaho amasomo yabo agiye atandukanye, ntibabashe gucikanwa.

Umugabo urimo urakaraba amazi meza kuko bayahawe na Repubulika y'u Rwanda. Buri muturage wese agomba kuba afite amazi meza kandi ari hafi ye ku buryo abasha kubona amazi yo kunywa n'ayo gukoresha mu ngo zabo.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage yambaye ipantaro y'umukara inkweto za kake ndetse n'ishati y'ubururu, afite mikoro mu ntoki ze arimo araganiriza abaturage yuko bagomba kwisuzumisha indwara zitandukanye kandi bakazirinda.

Umuganga ufite urushinge mu ntoki ze, arimo arakingira umwana mutoya urukingo rwa nyuma, akaba yazanye na mama we kandi ariteguye kugira ngo akingirwe, umuganga kandi afite ibikoresho byose nkenerwa.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bose bakaba ari abayobozi bakaba bicaye imbere, bari mu nama nyunguranabitekerezo y'abanyamigabane bose ndetse n'abashoramari, bakaba bicaye bari kubaganiriza ku migabo n'imigambi bagezeho ndetse n'inyungu babonye muri uyu mwaka ushize.

Umusaza wambaye ingofero n'ikote ry'umukara, yambariyemo umupira w'umweru, akaba arimo arasuzumwa n'abaganga kugira ngo barebe niba nta ndwara zitandura yaba afite, urugero nk'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe barimo gufashanya kugira ngo babashe kuba bafata ibiribwa biri mu mifuka babipange neza mu modoka bityo bijye gufashisha abakene ndetse n'abandi bose bafite ibibazo by'inzara.

Abana bato cyane bishimiye kuba baregerejwe amazi meza, mbere bajyaga banywa amazi yo mu gishanga akabatera inzoka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye nka korera diyare n'izindi.

Itsinda ry'abaganga bagera kuri batatu bose bafite amakayi n'amakaramu bakaba barimo barandika ibintu bigiye bitandukanye urugero amazina y'abarwayi ndetse n'imyirondoro igiye itandukanye.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri akaba yoherejwe kuvoma n'ababyeyi be, ariko amazi ayakura hafi kuko leta y'u Rwanda yegereje abaturage amavomero rusange atandukanye.

Abagore bagiye batandukanye bambaye ibitenge ndetse bose bakaba barimo kubyina imbyino gakondo, barishimye cyane kubera yuko begerejwe hafi ubuvuzi bityo bakazajya babubona batabaye ngombwa yuko bajya kure.

Umugore uri kumwe n'umugabo wambaye ikote ndetse yambayemo ishati y'ubururu na karuvate y'umutuku kandi yambaye marinete, afite igikapu kinini cyanditseho visiti Rwanda.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bari mu cyumba kirimo umurwayi kandi bafite imashini zose zikenewe kugira ngo babashe kuba bavura uyu murwayi, bose bambaye neza imyenda yabo kandi bambaye n'udupfukamunwa barikwije kugira ngo babashe kwirinda kwanduza umurwayi cyangwa kwanduzwa na we.

Imbonerahamwe igaragaza buri uko imyaka yagendaga ihita uburyo ihame ryuburinganire ryagendaga rizamuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaba ari raporo yakusanyijwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro irimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro y'itise y'umukara, afite injerekani aje kuvoma amazi meza begerejwe na leta y'uRrwanda.

Intoki z'umwana muto cyane, urimo gukaraba avuye ku ishuri, mbere y'uko arya. Akaraba amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zabonewe igisubizo, urugero nka diyare ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, bigaragara ko ageze mu za bukuru, yambaye ingofero igaragaza yuko ari umuyisilamu, ari kubonana na muganga.

Umugabo uri kumwe n'umwana we bombi bakaba bishimye cyane. Umwana we yishimira gufasha ababyeyi be imirimo igiye itandukanye ariko kandi umubyeyi na we yirinda gukoresha umwana we imirimo ivunanye.

Abana bari kumwe n'abagore bose bakaba bambaye imipira y'imbeho bitewe n'uko hakonje, bahagaze ahantu hamwe kugira ngo bafatwe ifoto y'urwibutso itazabibagiza ibihe banyuzemo by'ingenzi.

Abagabo n'abagore batandukanye, bahuriye mu cyumba cy'inama, bose bakaba ari abaganga, baba abakoresha ubuvuzi gakondo ndetse n'abakoresha ubuvuzi bwa kizungu, bose bahuriye mu nama ndetse bari guhabwa ibitekerezo n'inyigisho z'ingenzi.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, ay'umuhondo ndetse n'ay'ubururu. Yambaye amarinete n'igitambaro mu mutwe. Ari kumwe n'abana kuko abitaho cyane kandi na bo baramukunda.

Abagore batatu bazanye amajerekani ku iriba rusange bubakiwe na leta y'u Rwanda bakaba baje kuvoma amazi meza kuko mbere si uko byari bimeze bajyaga kuvoma mu gishanga amazi mabi kandi adasukuye.

Damu nini cyane irimo amazi, ishobora kuba yororerwamo amafi, hari uburyo bworoshye kandi bwubashywe ushobora kuba wagera kuri iyi damu, ukaba wakifatira amafi mu gihe ubishaka.

Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye umuganga uri kumwe n'umurwayi harimo gupima niba yaba yaranduye indwara ya sida akaba arimo kumufata ibimenyetso ndetse n'amakuru y'ibanze ashobora gutuma amenya niba afite ubwandu.

Abaturage, abagore n'abagabo, bazindukiye mu mirimo yo kugira ngo bakusanye inkunga y'ibiribwa, bahawe mu gihe cya Kovide kugira ngo babashe kuba babijyana mu ngo zabo babone icyo kurya.

Abana bato batatu baje kuvoma mu kiyaga, bikaba byari mbere y'uko begerezwa amazi meza, bakaba barahuriragamo n'ingorane zitandukanye, kuko abana bamwe bashoboraga kugwamo cyangwa se bakaribwa n'inyamaswa.

Umugore wambaye ibitenge kandi waje gusuzumisha umwana we ari nako agira ngo bamukingire kuko hari inkingo agomba gufata nk'umwana mutoya kugira ngo abashe kuba yakingirwa indwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira abana.

Abagabo n'abagore harimo abazungu ndetse n'aba muri aziya abanyafurika n'abandi batandukanye, bose bahuriye mu nama nyunguranabitekerezo yiga ku buryo bashobora guhashya indwara zitandukanye zirimo na kanseri.

Ababyeyi bazanye n'abana babo mu munsi mukuru wahariwe kurwanya igwingira ry'abana, bakaba bari guhabwa amata mu kugira ngo babashe kuba babona imirire myiza ndetse n'intungamubiri zikenerwa.

Abayobozi batandukanye bose bicaye imbere y'itsinda rigari ry'abaganga bambaye neza udupfukamunwa twabo kandi bicaye bahanye intera, bakaba bari guhugura abaganga batandukanye bari mu ivuriro rya leta.

Inama y'abayobozi batandukanye, bakaba barimo kuganira ku buryo bakomeza guhashya ibyorezo by'indwara. Bakaba bari mu Rwanda kuko hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, kandi bakaba bayobowe n'umunyarwanda.

Abaganga bagiye batandukanye, abayobozi, inzego z'umutekano bose bahuriye mu nama nyunguranabitekerezo kugira ngo bahabwe amahugurwa y'uburyo bashobora gushishikariza urubyiruko muri rusange kwirinda indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye inkweto kandi z'umukara, arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe yakorewe mu giturage kugira ngo babashe kuzajya birinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Umurwayi uri mu cyumba ari kumwe n'abaganga babiri, akaba arimo arafatwa ibipimo kugira ngo harebwe neza uko umutima we umeze, kandi barebe niba nta ndwara urugero nk'umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso afite.

Ikirangantego cya Unicef, rikaba ari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, rikaba ryarashyiriweho kugira ngo rihashye inzara, ndetse n'imirire mibi ishobora kugera abana bose batuye ku isi yose.

Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku barwayi bo mu mutwe, arimo aratanga imbwirwaruhame mu nama ngarukamwaka yabaye mu kwa cumi na kumwe ku itariki ebyiri ndetse'shatu mu mwaka bibiri wa makumyabiri nagatatu.

Umwana muto cyane wambaye inifomu, arimo gufashwa n'umubyeyi we wambaye neza agapfukamunwa kumukarabya intoki kugira ngo bimurinde indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, urugero: nka chorera, ndetse na diyare.

Umwana muto cyane urimo urakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse n'amazi mabi urugero nka korera diyare ndetse n'izindi.

Abaganga bakaba bazindutse kugira ngo babashe gusobanurira abarwayi ndetse n'abantu muri rusange, uko imiti bafite ikomoka ku bimera ikorwa. Hakaba hari n'abanyamakuru kandi barimo gufotora uko igikorwa kigenda.

Abayobozi barimo gusobanurira abaturage bagiye batandukanye, ibibazo bihari kandi bakaba bari bubafashe kuba babikemura, buri wese baraza kumusuzuma barebe indwara yabafite kandi bamuhe ubuvuzi

Imashini zajyanywe ku kigo cy'amashuri, zifashishwa mu gutunganya amazi meza yo kunywa. Abanyeshuri bose bashobora kuba babona amazi yo kunywa meza kandi asukuye.

Abayobozi batandukanye bari kumwe n'ababungirije bose bahuriye mu cyumba cy'inama, umugore ubahagaze imbere arimo arabasobanurira neza uko gahunda za leta ziteye.

Umwana ukiri muto cyane wambaye agashati k'icyatsi ndetse n'ikabutura ya kaki, akaba ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo abashe kuba yakirinda indwara zanduzwa bitewe n'umwanda.

Inama irimo abayobozi bagiye batandukanye bicaye imbere, bari kumwe kandi n'abatumirwa bagiye batandukanye bose bari kwigira hamwe ku buvuzi bugezweho bwo kuvura indwara zo mu mutwe bityo bikaba byafasha abafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Umwana muto cyane wambaye inifomu ikabutura y'ubururu ndetse n'ishati y'umuhondo. Akaba arimo arerekana uburyo amazi mabi, ushobora kuyayungurura ukoresheje ibimera akaba yaba meza kandi ashobora kunyobwa.

Worudi herufu oruganizeshoni, akaba ari umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi yose. Ukaba ugira uruhare mu kuba bakwirakwiza imiti igiye itandukanye ndetse bagatanga n'ubuyobozi ku matsinda y'inzobere z'abaganga bo mu bihugu bitandukanye.

Abagabo n'abagore bagize guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu ku bufatanye bose hamwe, bakaba bari kumwe n'abana ku munsi wabo mpuzamahanga bose bambaye inifomu kandi barimo kubitaho kuko barimo guhabwa amata buri mwana wese.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi yambaye neza agapfukamunwa, afite umurwayi wambaye isengeri y'umukara ndetse n'agapfukamuwa k'umukara yambaye neza, akaba arimo guhabwa urukingo rwa Kovide.

Abana bane bose bahuriye ku ivomero rusange bubakiwe na Leta, bakaba bazanye amajerekani ndetse n'utubido dutoya kugira ngo babashe kuvoma amazi bakeneye bakaba babyishimiye kuko mbere batayabonaga.

Abana bato bagera kuri bane umwe yambaye ishati yumutuku umukurikiye yambaye ishati yubururu undi yambaye umupira undi umukurikiye yambaye ishati yumutuku bose barimo gukarabya numuntu mukuru kugirango birinde indwara ziterwa n'mwanda.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, akaba yambaye isaha ku kaboko ndetse n'ikanzu irimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, yambaye neza agapfukamunwa kugira ngo yirinde kuba yakwanduza umwana we icyorezo cya covide.

Abaganga ndetse n'abanasi batandukanye. Bahawe amahugurwa agiye atandukanye. Ku kigo nderabuzima cya Mayange, bose bahuguriwe hamwe, kugira ngo babashe kwita ku baturage neza.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage akaba arimo arabasobanurira uko ubuzima buhagaze muri iki gihe, ari kubabwira imibare igaragaza y'uko mu karere kabo indwara bazihashyije kandi bakaba bari mu murongo mwiza.

Umwana muto cyane urimo gufashwa kuba yakaraba intoki ze n'amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo amenyere ko agomba kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, urugero nka diare ndetse na kolera.

Umugore ufite umwana we kandi akaba ari kuvoma amazi kuko Leta y'igihugu cy'u Rwanda yagejeje amazi meza kuri buri muturage wese, kandi akaba ashobora kuyabona hafi bitamugoye.

Abaturage benshi cyane bahuriye ku ihema rinini ririmo gutangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. urugero bakaba barimo gufata ibipimo by'indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero nka diyabete, sida n'ibindi hari n'imbangukiragutabara ihari kugira ngo ize gutabara abagira ibibazo.

World mental health day. Akaba ari umunsi ngaruka mwaka uba buri mwaka, kugira ngo hizihizwe umunsi mpuzamahanga wahariwe uburwayi bwo mu mutwe. Birinda kuba babangamira abantu bafite ubwo burwayi.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse na luneti z'amaso arimo gufasha guhumuriza umukobwa mugenzi we wambaye ikote ry'umutuku n'ingofero.

Umugabo wambaye umupira w’umukara wifashe mu maso bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye afite mu mutwe, bikaba byemejwe y’uko ashobora kuba yaragize ihungabana ryamuteye kugira uburwayi bwo mu mutwe.

Abagore bagiye batandukanye, bicaye mu matsinda bakaba bose bambaye udupfukamunwa kandi bahanye intera. Kugira ngo babashe kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Abaturage bicaye hamwe bose baratuje, bari gukurikirana neza inama bari kugirwa n'abaganga b'inzobere, bazanye n'abayobozi kandi bari kubabwira uburyo bashobora kwirinda, indwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru, urimo guseka kubera yuko yishimiye kuba indwara ye y'amenyo igiye kubonerwa umuti, kuko yamubabazaga cyane. Yambaye ibitenge ndetse anateze igitambaro cy'igitenge mu mutwe.

Isange wani sitopu senta, ikaba ari ikigo cyashyizweho n'ikigo cy'igihugu cya Polisi; kikaba gishinzwe kuba cyakurikirana ibyaha bigiye bitandukanye; urugero nko gufatwa ku ngufu kw'abana, kubahohotera, n'ibindi.

Abagabo n'abagore batandukanye. Hakaba harimo n'urubyiruko rwiganjemo, rwambaye imipira y'imikara. Bose hamwe bakaba bahuriye aha, kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, mbere y'uko inama bari barimo irangira.

Umugabo wicaye muri ruhurura arimo gutoragura amashashi. Akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, afite uburwayi butamworoheye bwo mu mutwe. yicaye wenyine arasa nabi, ariko nabona umuntu umuganiriza kandi akamuvura azabasha gukira.

Abanyeshuri bambaye inifomu bose bishimye bakaba bari mu kigo cy'amashuri, bari gufata ifoto ya nyuma y'urwibutso izajya ibibutsa ibihe byiza bagiriye ku ishuri.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba agenda ku izuba kandi akaba ababaje bitewe n'uko nta kivurira cyangwa se umuntu umukurikirana aba afite.

Inama ngarukamwaka yita ku buryo abana bakwiriye kuba barerindwa ihohoterwa ndetse n'iyangizwa ritandukanye abagabo n'abagore batandukanye abayobozi benshi bakaba bari bitabiriye iyo nama ndetse inarangiye bafashe ifoto y'urwibutso.

Umukobwa uri gucuruza afitemo muri butike ye ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero marigarine, salisa, ibirungo byo guteka n'ibindi. Ikindi kandi yambaye n'ijire y'umuhondo.

Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu, bakaba bafatanye ifoto y'urwibutso n'abadogiteri batandukanye ndetse n'umuyobozi ubarimo hagati, wambaye ishati y'umweru na karuvati ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umwana muto cyane urimo kurira, bitewe n'ibibazo by'intambara ndetse n'inzara afite, iruhande rwe hari mama we urimo kugerageza gutunganya ibintu, hari n'abandi bana bababaye bari inyuma ye.

Umugabo wicaye hasi ndetse akaba yahambirijwe ipine, yambaye ikabutura ya kake, akaba yambaye n'isengeri ya pinki irimo amabara asa nk'ubururu.

Mento helifu kare foru ari, ikaba hari uburyo bwashyiriweho abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo nabo babashe kuba bakitabwaho muri sosiyete, kandi nabo bamenywe nkaho bafite agaciro nk'abandi.

Umusaza wambaye ingofero kandi yiteye umwitero w'umuhondo, yambaye n'ishati ya karokaro irimo utubara tw'umweru n'umukara. Afite icumu mu ntoki ze arimo arivuga kandi bikaba ari umuco nyarwanda.

Abarwayi bo mu mutwe bakwiye kwitabwaho kandi bagakurikiranwa, bakwiye kandi gufatwa nk'abantu kubera yuko na bo ari abantu nkatwe. Bakwiye kuvuzwa hakiri kare kugira ngo babashe kuba bakira.

Umujyanama w'ubuzima urimo gukoresha tesite yihuse igaragaza y'uko umuntu ashobora kuba atwite, akaba ari kumwe n'umumama ufite umwana, ari kumwereka uburyo ubwo buryo bukoreshwamo.

Karayesi federesi de ra sharite. kikaba ari ikigo gishinzwe kwita ku barwayi bo mu mutwe cyangwa se abafite ubuzima butameze neza bwo mu mutwe bose bakaba bazanwa hano bagakurikiranwa kandi bakitabwaho umunsi ku wundi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite mikoro mu ntoki ze. Arimo araganiriza abantu bagiye batandukanye bitabiriye inama, ayoboye ku bijyanye n'uburyo bakwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu baturanye.

Umugore uri imbere wambaye ijile kandi ari kumwe n'abandi bagore babiri bose bari mu nama nyunguranabitekerezo bombi bafite ikaramu n'ikayi mu ntoki zabo bandikamo ibitekerezo by'ingenzi.

Uburyo umuryango mugari ushobora kugira uruhare mu kuba wafasha abantu bafite ibibazo bijye bitandukanye byo mu mutwe, iyo tubahaye hafi na sosiyete muri rusange bituma na bo bisanzura.

Madame wa perezida nyakubahwa Jeannette Kagame, akaba arimo kugeza imbwirwaruhame ku bantu. Ari kubibutsa yuko abantu barwaye indwara zo mu mutwe, bagomba kwitabwaho uko bishoboka.

Urubyiruko rutandukanye bakaba bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, bose bakoze ku mpamyabumenyi bahawe, nyuma yaho hari imodoka ya bisi bajemo, kandi hari amantete atandukanye abantu bari bicayemo.

Serivise z'ubuzima bwo mu mutwe uko zihagaze mu Rwanda ndetse hakaba hari n'ibitaro bigiye bitandukanye bigenda bizivura, urugero hari abaganga b'inzobere ndetse hakaba n'abantu bashinzwe kubitaho. Ibitaro bikurikira urugero nka CHUK, CHUB ni byo ushobora gusangamo serivisi zitandukanye z'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuryango ugizwe n'abana ndetse n'umugore n'umugabo, bose bakaba basuwe n'umuyobozi wabo n'umujyanama w'ubuzima, bakaba barimo baraganirizwa kuri gahunda ya leta yo kwita ku bana.

Urubyiruko abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'imikara bose bakaba bicaye bari mu nama nyungurana bitekerezo y'uburyo ubuvuzi bwo mu mutwe bwakorwamo kandi bikagirira akamaro abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abagore bagiye batandukanye, bakaba bari hamwe kugira ngo bahabwe amabwiriza ndetse n'amahugurwa agiye atandukanye, ku bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe bugezweho, ku buryo bazagirira akamaro abarwayi bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga, ukaba wizihizwa ku isi hose, ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi. Ukaba ari umunsi uba buri mwaka, kugira ngo hazirikanywe yuko na bo bagomba kwitabwaho.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe; ukaba uba ku itariki cumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka ukaba wizihizwa ku isi yose.

Umwana muto cyane uri kumwe n'inzobere z'abaganga b'amenyo. Bakaba barimo kugerageza kureba niba mu kanwa ke nta bibazo byaba birimo by'amenyo, kugira ngo babashe kuyashyira ku murongo no gukemura ibibazo byose birimo.

Abaganga babiri bari gufatanya kugira ngo bite ku murwayi. Barimo kumurebera mu kanwa ke no mu menyo ye kugira ngo babashe gutahura ibibazo birimo maze babashe kuba babikemura bafatanyije.

Umukobwa ukiri muto wambaye isengeri y'umuhondo ndetse n'amaherena ya zahabu, akaba afite umusatsi wa natirere. Ari kumwe n'umuganga w'amenyo, akaba arimo kumufasha kugira ngo amuvure amenyo ye amubabaza cyane.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bita ku menyo bakaba bafite umurwayi mu cyumba cyabo, barimo kureba niba nta ndwara zigiye zitandukanye z'amenyo afite kandi baraza kumuvura ntagikuba rwose.

Umuganga wambaye wikwije kandi ufite ibikoresho biri kumufasha mu buvuzi bwe bw'amenyo. Ari kuvura umurwayi w'umugabo amenyo, arimo kumufasha kuba yarikura kugira ngo adakomeza kuba yakangirika.

Umuganga wambaye ga, kandi afite icyo ari kwigiraho mu ntoki ze. Biragaragara yuko ari amenyo y'umuntu, ku buryo ashobora kuyakoraho ubushakashatsi, akamenya neza uburyo ashobora kuvuramo umuntu usanzwe.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi, umuganga wambaye neza agapfukamunwa na ga mu ntoki ze afite ibikoresho, arimo aravura umugore amenyo, arimo arayoza neza kandi agahoma ayangiritse.

Umugore ufite uburoso bw'amenyo akaba arimo kwita ku menyo ye kubera yuko ari ingenzi, aba agomba kuborosa byibuze gatatu ku munsi kugira ngo yizere yuko mikorobe zose yazishe zari mu kanwa ke.

Umugabo urimo urakoresha akantu kameze nk'urudodo yahawe na muganga kugira ngo azajye akifashisha mu koza amenyo ye bityo akomeze kugira ibara ry'umweru kandi biyarinde kuba yakwangirika.

Umusaza ugeze mu za bukuru urimo kwibuka gufata imiti ye neza ndetse agiye no koza amenyo nka bimwe mu byo yategetswe na muganga, ari imbere y'indorerwamo arimo kwirebamo ukuntu yahoze angana ndetse nuko asigaye ameze ubu.

Umugabo urimo uravurwa indwara zitandukanye z'amenyo, akaba ari kuvurwa n'inzobere y'umuganga yambaye neza agapfukamunwa kandi yambaye ga, akaba ari gukorana n'undi muganga kugira ngo bavure uyu murwayi.

Abana b'abanyeshuri bose bakaba bafite uburoso ndetse n'amazi na korogate bakaba barimo bari borosa nka kimwe mu bikorwa leta y'u Rwanda iri gushyiramo ingamba zifatika kugira ngo abanyeshuri, abana muri rusange bajye boza amenyo yabo.

Umugabo wambaye umwambaro w'umukara, afite kilida mu ntoki ze, arimo arikura ibiryo byasigaye mu kanwa ke biba byagiye bifata mu menyo, yambaye impeta igaragaza y'uko yasezeranye byemewe n'amategeko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nyinshi zitandukanye, kandi buri yose ifite akamaro. Ikaba kandi ifite n'igitanda umurwayi ashobora kuryamaho mu gihe arimo kuvurwa cyangwa akurikiranwa na muganga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, bikaba biba biri ku bitaro bigiye bitandukanye kugira ngo bize kuba byakoreshwa. Ikindi kandi bigomba kugirirwa isuku kubera yuko bishobora kugira ingaruka zitandukanye.

Umugabo ufite urudodo yahawe na muganga kugira ngo azajye arwifashisha mu gusukura amenyo ye imyanda yose iri mu menyo ishobora kuyangiza ikavamo akaba arimo araseka kugira abashe kuba yagakoresha neza.

Imashini zitandukanye bitewe n'icyo zikora, zikaba arizo kwa muganga zifashishwa n'itsinda ry'abaganga b'inzobere kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi kandi batahure icyo yaba arwaye.

Umukobwa ukiri muto urimo guseka bitewe n'uko yamaze koza neza amenyo ye kandi ntago agifite impumuro mbi mu kanwa kuko yakoresheje burosada ndetse na korogati ikorwa mu bimera.

Umugabo urimo guseka kandi afite amenyo meza y'umweru, yogeje neza kuko akoresha korogate ndetse na borosada, byiza cyane by'umwihariko akoresha borosada na korogate, korogati ikaba ikozwe mu bintu karemano.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bose bakaba bahawe uburoso bw'amenyo ndetse na korogati nka gahunda ya leta igamije gufasha abana kuzajya bakorera isuku amenyo yabo kugira ngo atangirika.

Icyumba cyihariye cyakirirwamo abarwayi bitewe n'icyo barwaye, kikaba gifite imashini nyinshi zitandukanye, zaba izifasha mu gusuzuma ndetse no mu gusikana amagufwa y'umuntu kugira ngo barebe neza ikibazo afite.

imashini zigiye zitandukanye zose ziri mu cyumba abarwayi bakaba baza hano kugira ngo bafashwe. Zikaba ari imashini zikurikirana ubuzima bw'umurwayi kandi zikabasha gutahura indwarazo arizo zose zaba ziri mu mubiri we.

Umugabo uririmo uraseka neza kuko amaze kuvurwa indwara yari afite z'amenyo umuganga umuvuye akaba ari inzobere ikomoka mu Rwanda bityo ikibazo cyose wagera ku menyo barakivura kigakira.

Umusaza wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu afite n'imvi bigaragara ko ashaje cyane akaba aba mu nzu ishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru umwana we w'umuhungu yaje kumusura.

Umugabo n'umugore we, bose bakaba bazindukiye muri siporo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze, birinde indwara ziterwa no kudakora siporo, urugero nka rubagimpande, indwara z'umutima ndetse n'ibindi.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri mu inzu ishinzwe kwita ku bageze mu izabukuru n'abamugaye, akaba yambaye imashini ye imufasha gusuzuma uko umuvuduko we w'amaraso uko uhagaze kandi ikanapima umutima we uko uhagaze.

Inzu yita ku bageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye hakaba haba abantu baba bashinzwe kubakurikirana kandi bakabafasha mu ngendo zabo za buri munsi ndetse no mu byo bakeneye byose urugero nko kubamesera kubagaburira no kubitaho.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uri mu nzu ishinzwe kwita ku bageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, ari kumwe n'umukobwa ushinzwe kumwitaho barimo kuganira baseka kuko bishimye cyane.

Inzu zagenewe kwita ku bageze mu za bukuru, umugore n'umugabo bose bakaba bazirimo kugira ngo babashe kubona ubufasha, ubuvuzi byose baba bakeneye, baba bafite ababitaho kandi babafasha mu bintu byabo bya buri munsi.

Umugabo usheshe akanguhe wicaye ariko afite ibibazo bitandukanye. Urugero ari kumva ananiwe kandi arwaye; ariko arimo arasoma ibyanditswe bya buri munsi. Kandi aracyari kwitoza kugira ngo arebe niba yakomeza kumera neza.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, bari mu bigo bishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru, barimo kwibukiranya yuko bagomba kunywa imiti ku gihe kugira ngo babashe kuba bahangana n'uburwayi bwabo.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ufite imisatsi miremire, yazirikiye hejuru, arikumwe n'umusaza ari kumufasha kugenda, umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Umugabo ugeze muzabukuru uba mu nzu ishinzwe kwita ku bageze muzabukuru n'abamugaye, arimo kwarura ibyo kurya kugira abashe kuba yarya ari kumwe kandi n'umugore we nawe ugeze muzabukuru kandi barishimye.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bose bakaba bishimye kandi bari mu munsi mukuru wagenewe abageze mu za bukuru, bakaba bafite ubuzima bwiza buzira umuze kubera yuko bariye neza kandi bakoraga siporo.

Abagore bagiye batandukanye bicaye hari kandi n'umugabo ugeze mu za bukuru wicaye; ufite akana mu ntoki ze kandi aragateruye, bose barishimye kubera yuko bafite umutima mwiza bose.

Ikigo cyita ku bageze mu zabukuru, kikaba kiba gifite abantu bashinzwe kwita ku bageze mu zabukuru n'abamugaye, babafasha mu turimo twabo twa buri munsi kandi bakabafasha mu gukora siporo zibagirira akamaro.

Umukecuru ugeze mu zabukuru wambaye umwenda w'ubururu ndetse n'umwitero wa kake, yambaye n'urunigi mu ijosi ye kandi rufite amasaro atandukanye, yiganjemo ay'umweru n'umukara, afite mikoro ari kuyivugiramo.

Umuryango wishimye, umwana uri kumwe na mama we kandi bari kumwe na nyirakuru, nyirakuru yambaye umupira w'umuhondo arimo guseka cyane, mama w'umwana we yambaye umupira usa nk'ibara rya gisirikare, yambaye na rinete.

Umukecuru uri mu kigo gishinzwe kwita ku bageze mu za bukuru, arimo guseka kandi afite mu ntoki ze isahani iriho ibiryo byemewe ku bageze mu za bukuru kandi bifite intungamubiri.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru wambaye linete zimufasha kuba yareba neza. Akaba ari gufata imiti ye ku gihe ayinywesheje amazi meza, akaba yicaye wenyine kuko abana be bashatse.

Ihuriro ry'abageze mu za bukuru barimo kwigishwa gahunda ya ejo heza uburyo bashobora kwizigamira bityo bakabaho neza mu gihe kiri imbere kuko imyaka yabo iba itacyemera kuba bagira ibyo bakora byinshi.

Umugore ugeze mu zabukuru uri mu nzu ishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru n'abamumugaye, akaba arimo arakoreshwa udusiporo duke duke n'umukobwa ushinzwe kumwitaho kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru uri kumwe n'umwuzukuru we akaba arimo kumutegurira ibyo kurya byiganjemo imboga ndetse n'imbuto nka bimwe mu bintu bishobora kumufasha mu kumurinda indwara ndetse no kumufasha kudasaza imburagihe.

Umubyeyi uri kumwe n'abana biwe kuko hari abana benshi cyane harimo abakobwa n'abahungu, bose baricaye baratuje kandi barimo guseka barishimye cyane.

Umusaza ugeze mu zabukuru, uri mu nzu zishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru n'abamugaye, akaba ari kwitabwaho n'umukobwa kandi ari kumuha keya, aba amwibutsa imiti agomba gufata.

Umugore ugeze mu za bukuru uri mu nzu afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ze kandi hari imiti aba agomba gufata ya buri munsi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza afite ikinini mu ntoki ndetse n'amazi agiye kukinywesha.

Umusaza ugeze mu zabukuru, uba mu nzu ishinzwe kwita ku bageze mu zabukuru n'abamugaye. Yambaye amarinete afite igitabo n'ikaramu, arimo arasoma ibintu by'ingenzi akabicaho akarongo.

Umukobwa urimo kwita ku muntu ugeze mu za bukuru, uba mu kigo cyita ku bageze mu zabukuru, akaba arimo kumubarira neza imiti agomba gufata, umukecuru uri kwitabwaho, afite ikirahure cy'amazi n'imiti mu ntoki ze.

Igitabo cyagenewe abarimu, kibafasha mu kugirango bategure inyigisho zabo zerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Babashe kuba bakigisha abana bo muri segonderi ubuzima bw'imyororokere bityo babashe kwirinda indwara zitandukanye.

Good heath and well beying bukaba ari uburyo bwashyizweho na leta bwo kugira ngo abantu bisuzumishe indwara zigiye zitandukanye baba bafite muri gahunda igamije kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Rwanda Alidi herifu porosheno Kansa, ikaba ari inama nkuru y'igihugu, ihuriwemo n'urugaga rw'abaganga bagiye batandukanye, bavura indwara nyinshi zitandukanye, bakaba bagira ngo bahurire hamwe kandi bazajye bahanahana amakuru.

Powering health care in Rwanda. Bukaba ari uburyo bwashyiriweho abaganga, ndetse n'abaforomo mu Rwanda, kugira ngo bongere bagire kuraje, ndetse n'imbaraga zihagije, zo kuba bakora, kandi basuzume abarwayi bagiye batandukanye.

Inama ngarukamwaka ya cipiheyici ayi ayi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri naka kabiri umuyobozi mukuru w'iki kigo akaba yararimo atanga imbwirwaruhame ndetse anungurana ibitekerezo bitandukanye

The global fund ifatanyije na unitaid bakaba bashinzwe gufasha mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri afurika kugira ngo bahashye indwara zananiranye urugero nka sida ndetse na malariya.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bakaba basohotse ku mutwe w'igitangazamakuru cyitwa niyuzi reta. Kikaba cyanditse yuko umuryango w'abibumbye wita ku bana, watangiye gutanga inkunga zigenewe gufasha abana.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'amarinete, afite icyapa mu ntoki ze cyamagana cyangwa se gikumira indwara ya Monkey pox, bakaba bashaka yuko babona urukingo.

Urubyiruko rugiye rutandukanye rwiganjemo abanyeshuri, bafite icyapa kinini cyane kigaragaza y'uko biteguye kuba bahangana n'indwara zigiye zitandukanye, urugero nka virusi itera SIDA, babwiwe yuko kandi bashobora kwisuzumisha kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Diyabete ni indwara mbi cyane bityo twese tugomba kwitabira kwisuzumisha ndetse no kwikingiza diyabete. Ni ubuntu kandi aho ariho hose mu Rwanda ushobora kugana bakuvura ndetse bakanagusuzuma diyabete.

Uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwifashishwaga mu kugira ngo bahangane n'icyorezo cya korona vurusi. Kandi binyuriye mu kuba ikigo cy'igihugu arabisi cyarafashije kandi kigasobanurira abaturage neza uko bakirinda, kikaba cyarabafashije kuyirinda, bakayirokoka.

Sefa izi segisi. Bukaba ari uburyo bwizewe kandi bwihuse, ushobora kuba wakoreshamo ukirinda ubwandu bwa SIDA n'izindi ndwara zitandukanye. Abagabo babiri n'abakobwa babiri, bari kwerekana yuko, udukingirizo kudukoresha byizewe.

Abayobozi bari mu nama ku nshuro ya makumyabiri ikaba ari inama yiga ku ndwara zigiye zitandukanye z'uruhurirane zikaba zishobora kuba zavurwa kandi zikabonerwa imiti bityo zigakira.

Ese ni igihe kingana iki umuntu ashobora kuba yakuramo inda? Inda itarengeje ibyumweru cumi na bibiri ishobora kuvanwamo ariko ibyumweru cumi na bitatu kugeza kuri makumyabiri biba ari byinshi cyane ku buryo iyo umuntu abikuyemo bishobora guteza ibibazo.

Abagore batatu bose bafashe ifoto y'urwibutso, bakaba bamaze guhabwa amahugurwa kandi bamaze gusobanurirwa, uburyo bashobora kuba bakirinda indwara ya kanseri kandi bakayisuzumisha hakiri kare.

Abayobozi batandukanye, harimo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, kandi hari abandi babateze amatwi nabo bari mu myanya igiye itandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'umukara arikumwe n'umugore wambaye ikote y'umukara bose bafite icyapa mu ntoki zabo cyanditseho y'uko kwisuzumisha igituntu ari ibintu byingenzi kugira ngo kivurwe hakiri kare.

Umuganga wambaye neza agapfukamunwa afite urushinge mu ntoki, ari kumwe n'umurwayi cyangwa se umuntu waje kwikingiza, arimo kumutera urushinge kandi kugira ngo rubashe kuba rwamugirira akamaro rumurinde indwara zitandukanye.

Kovagisi CEPI ku nkunga ya UNICEF. Ikaba itangwa cyangwa se ikaboneka mu bihugu byose bigiye bitandukanye bigeramo inkunga ya UNICEF. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo hari indwara zigiye zitandukanye za AIDS, zikaba zishobora kwandura mu buryo butandukanye by'umwihariko zinyuze mu mibonano mpuza bitsina, abantu baba bagomba kuzirinda kuko ari mbi cyane zangiza.

Umuganga urimo uratanga urukingo wambaye neza imyenda yikwije kandi yambaye n'agapfukamunwa, akaba agiye gukingira umurwayi umwe umuri imbere kandi nawe we yambaye neza agapfukamunwa n'abandi barategereje.

Madame wa perezida nyakubahwa Jeannette kagame, akaba arimo aratanga imbwirwaruhame ye kandi hari mikoro imbere ye kandi yambaye ikanzu ndende iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'abaganga batandukanye bambaye bikwije bambaye neza udupfukamunwa ndetse banapfutse imisatsi yabo, bakaba barimo kuvura umurwayi kandi bari kubyitondera kuko babyize.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere, ku buryo birinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, urugero nk'indwara ya SIDA ndetse n'izindi zitandukanye.

Ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi i saa cyenda zuzuye hazaba hari ihuriro ry'abantu bazi tekinoloji ndetse n'abaganga kuburyo bazajya bafashanya abazi tekinoloji bigisha abaganga uko bayikoresha mu buvuzi.

Ikigo k'igihugu cya Rwanda bayo mediko senta gishinzwe kwita ku buvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange; kikaba cyasohoye amatangazo asobanura neza y'uko abaturage bashobora kujya kwipimisha indwara zitanduye urugero nka diyabete.

Ibimenyetso bya diyabete, ushobora kuba wumva uhorana inyota cyangwa se ukumva ukeneye kunyara kenshi cyane bitandukanye n'uko byari bisanzwe, ikindi kandi ushobora kumva urushye cyane kandi ukatakaza n'ibiro mu buryo budasobanutse.

Umurwayi warwariye mu rugo ariko akaba arimo arahabwa ubuvuzi bw'ibanze akaba arwaye umutwe kandi ari kumwe n'umugabo ndetse n'umugore we.

Umurimo Out Patient center, hakaba haragenewe gushyirwa abarwayi mu gihe baje kwisuzumisha indwara zitandukanye, ikindi kandi bahabwa imiti kandi byose bakaba babikorerwa ku giciro gitoya.

Ibitaro bikaba bitangirwaho serivisi nyinshi zitandukanye, ni ibya leta kuko hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari ubusitani bwiza cyane abantu bashobora kwicaramo baruhuka mu gihe batarahabwa serivisi zabazinduye.

Icyumba kinini cyane cyifashishwa n'umuganga uvura indwara z'amaso, harimo ibikoresho ndetse n'imashini zitandukanye zifashishwa mu gupima amaso, ingano yayo ndetse n'uburwayi butandukanye, hari kandi n'intebe umurwayi yicaraho kugira ngo ahabwe ubufasha.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bugiye butandukanye, bwifashisha ikoranabuhanga. Abaganga b'inzobere bakaba baba bari muri iki cyumba kandi hari imashini nyinshi, bifashisha mu kugira ngo bapime umurwayi uburwayi bwe butandukanye afite.

Ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye harimo intebe ndetse n'ameza, hakaba ari icyumba kibonererwamo n'umurwayi ndetse na muganga, umurwayi ategererezamo muganga akamusuzuma.

Umugabo urimo Urafashwa n'umuganga we kugira ngo bamusuzume niba nta ndwara zitandukanye zitandura yaba fite urugero nk'umutima, umuvuduko w'amaraso, kanseri ndetse n'ibindi.

Aho bakorera imyitozo cyangwa se siporo zigiye zitandukanye. Hakaba harimo imashini zigiye zitandukanye zibafasha gukora siporo urugero nk'amagare yo kunyonga, ndetse n'ibyuma bishobora kugufasha kwiruka utavuye aho uri.

Inzu nini cyane kandi yubatse neza ikaba yubakishijwe ibyuma kandi irimo amatiyo agenda ayobora bitewe n'ibikoresho ajyanye ikaba ifite amatara ahagije kandi ifite ikibuga kigali ushobora kuba washyiramo ibikoresho byinshi icyarimwe.

Imashini yitwa mayikorosikope ikaba yifashishwa mu kureba mikorobe cyangwa se ubundi ubwo ari bwo bwose, urugero nka virusi zishobora kuba ziri mu maraso y'umuntu cyangwa ahandi hantu, ikaba ikoreshwa n'abaganga.

Umugabo wambaye imyenda y'imyeru kandi wikwije. Ahetse igikapu kirimo imiti kandi yambaye bote, arimo kugenda atera imiti yica udukoko ahantu hose hakekwaho kuba hari udukoko twanduza indwara.

Ikipe y'abaganga batatu bose barimo gukorera hamwe kugira ngo bite ku murwayi. Hakaba hari imashini zigiye zitandukanye bifashisha mu kugira ngo barebe mu mubiri w'umurwayi bafite, bityo babashe kuba bamuvura mu buryo bukoresheje ikoranabuhanga.

Aho bakorera siporo hakaba hagiye hari ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho aho umuntu akora siporo areba uko ibintu bihagaze ku buzima bwe, areba umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara akeka.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu kuba yasuzuma umubiri w'umuntu, ikaba yasuzuma amagufa ye, inyama zo mu nda, umutwe cyangwa se ahandi hagiye hatandukanye, bitewe n'aho abaganga bashaka kureba.

Intebe nziza cyane zimisego ziri ahantu hatuje hari n'ameza atatu yose Hakaba ariho umurwayi aganirira na muganga ku bibazo bigiye bitandukanye yahuye na byo.

Icyumba umuganga aboneraniramo n'umurwayi, kikaba giteguye neza kandi kirimo ibyangombwa byose, urugero nk'imashini zikenerwa, ndetse n'indi miti iyo ari yo yose, umuganga aba aribuze gukenera.

Inzu nziza cyane nini, ikaba isize amarangi y'umweru meza, kandi ifite imitako igiye itandukanye, urugero indabo. Iyi nzu kandi ifite kamera zicunga umutekano kandi ifite amatara ahagije.

Ibitaro byiza byubatse ahantu heza kandi bifite isuku, hakaba hari aho ushobora kujyana abana kugira ngo abe ari ho basuzumirwa indwara zitandukanye zijyanye n'abana.

Imashini zo kwa muganga mu bitaro zigiye zitandukanye, zikaba ari nyinshi kandi zihagije kugira ngo umurwayi wese uri buze kuhagera abashe kuba yakitabwaho mu buryo bwuzuye.

Isange wani sitopu senta, Nyanza hosipito bikaba ari ibitaro bya leta by'i Nyanza bikaba bikorerwaho serivisi zigiye zitandukanye, urugero nko kwivuza, gupima indwara zitandukanye gutanga imiti ndetse n'izindi serivisi nyinshi nk'urugero nk'iza isange n'izindi.

Icyumba kinini kandi gihagije, kirimo ibikoresho byo kwa muganga byinshi, bikenerwa n'abaganga kugira ngo babashe gukurikirana, no kwita ku buzima bw'abarwayi bagenda babagana umunsi ku wundi.

Icyumba gikorerwamo n'abaganga kirimo ibikoresho byose n'imashini nyinshi kugira ngo zibashe kuba zakora buri yose bitewe n'akazi ishinzwe gukora, byose biriteguye kandi n'abaganga bariteguye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Kikaba giterwa inkunga n'imbuto fondesheni. Akaba ari ahantu heza cyane, abantu bashobora kugera hatabagoye, kandi bakaba batanga serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi.

Isange one stop center, Remera, Rukomo. Ikaba ari uburyo bwashyizweho na leta kugira ngo abahohotewe babashe kuba bahagezezwa babikurikirane kandi bapime, bafate ibimenyetso bigaragaza ko koko umuntu yahohotewe.

Ibitanda byo kwa muganga bikoreshwa mu kuba abarwayi babasha gukurikiranwa bari mu bitaro buri gitanda kiba cyujuje ibisabwa biriho bombone ndetse n'ibindi bikoresho by'imiti bishobora kuba byagoboka umurwayi mu gihe byihutirwa.

Utwuma dutoya tuzwi nka peti powe dutondetse ku murongo, dufasha abantu bashaka gukora siporo kugira ngo bakore siporo mu buryo bunoze kandi bwizewe, kuko ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Inzu nini cyane ifite amabati y'umutuku ndetse ikaba iriho amadarapo. Idarapo rya mbere rikaba ari iry'igihugu cy'u rwanda ikaba ari inzu yubakiwe abana kugira ngo izajye ibi bitaho haba mu buryo bw'ibyiyumvo no mu buryo bw'umubiri.

Amarembo azwi nk'ahariyo makuru ya Kigina herifu seta hakaba hatangirwa serivisi zijye zitandukanye z'ubuvuzi abaturage bakahagana baje kwisuzumisha cyangwa se kwivuza.

Mediyasolu farumasi ikaba iherereye i Remera, iruhande rwayo haparitse imodoka y'umuntu uhakora, muri iyi farumasi harimo imiti igiye itandukanye umuntu ashobora kugura bitamugoye kubera yuko iri hafi ye.

Health, Target Pharma Market, akaba ari Farumasi kandi ikaba n'isoko icyarimwe, bakaba bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kandi imiti y'ubwoko bwose yemewe n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuziranenge, yose irahari.

Inzu itangirwamo ubuvuzi bugiye butandukanye, by'umwihariko ubuvuzi bw'amaso. Bakaba bagusuzuma ku buntu .Umwana wese uri munsi y'imyaka cumi n'ibiri , yemerewe kuza hano bakamusuzuma amaso kandi bakayavura ku buntu.

Itsinda rigari ry'abaganga bicaye hamwe kandi bari mu bushakashatsi kugira ngo babashe kumenya neza imiti igiye itandukanye iva mu bimera bityo bazabashe kuyikoresha ku barwayi bagiye batandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, ikaba ari inzu igeretse inshuro imwe, isize amarange meza cyane ya kake, ikaba isakaje amabati y'ubururu kandi imbere yayo hari idarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako y'ibitaro igeretse inshuro ebyiri, ikaba isize amarange y'umweru ndetse n'ayandi y'umuhondo, iri ahantu heza cyane hafite parikingi nini kandi hari ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho.

Umuganga ushinzwe kwita ku bageze mu zabukuru, kandi akabasuzuma indwara zitandura. Urugero nk'umutima, diyabete, umwijima ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Arimo arabasuzuma kugira ngo arebe uko bahagaze.

Imashini ikoreshwa n'umuganga yifashishwa mu kugirango barebe niba umurwayi nta bibazo bitandukanye yaba afitemo, urugero nko mu magufa ye cyangwa se mu nyama zo munda. Ikindi kandi ikoreshwa mu kureba niba umuntu nta bibazo afite mu mutwe.

Korodoro irimo amatara yaka cyane , ikaba ari korodoro yo kwa muganga buri cyumba kiri hano kikaba gifite ibyo gikorerwamo urugero nk'icya mbere gikorerwamo konsiritingi.

Imashini yo kwa muganga iri mu cyumba ikaba yifashishwa mu kuba umuntu bamunyuzamo bityo bakareba mu bice biri imbere mu mubiri we urugero nk'amagufa bakabasha kuba bareba uko ameze niba atangiritse cyangwa se bashaka kureba inyama zo mu nda.

Ibitaro byiza cyane bifite ubusitani bubereye ijisho kandi bifite inyubako nyinshi cyane zishobora kuba zakifashishwa, hari abaturage babyutse bazigana kandi bose bategereje igihe bari bugerweho.

Icyumba kigari gikorerwamo n'umuganga, kirimo ibyo akeneye byose kugira abashe kuba yakwita ku murwayi, harimo intebe zitandukanye zo kuba umurwayi yakwicaraho ndetse n'iya muganga kandi hari n'igitanda ashobora kuryamaho.

Peniyeri farumasi, ikaba irimo imiti igiye itandukanye, yaba imiti ikozwe mu bimera ndetse niyo wandikiwe na muganga, mu gihe cyose ufite inyandiko yemewe na muganga yakwandikiyeho imiti ushobora kuza muri farumasi ukayiguramo.

Inzu y'ababyeyi ikaba hari igitekerezo cyazanywe na leta y'u Rwanda cyo kuba yashyiraho inzu y'ababyeyi ikaba ari inzu iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye harimo kureba uko ubuzima bw'umwana buhagaze ndetse n'ubw'umubyeyi.

Imashini ifasha abaganga mu gusuzuma ndetse no kureba uburwayi abarwayi babaganye baba bafite bitewe n'ubwo aribwo hari na ekara nini cyane byose hamwe bikaba biri mu cyumba kimwe muganga abonaniramo n'umubarwayi we.

Imashini nini cyane ifasha muganga kugira ngo yite ku barwayi, ikaba yesitaye neza mu cyumba kinini cyane, kandi harimo uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kugirango abashe gutahura neza indwara umurwayi afite.

Umurwayi urimo uraseka kandi wishimye kuko yamaze gukorerwa operasiyo akaba agicometsweho imashini zirimo gukurikirana ubuzima bwe uko bumeze, kandi afite icyizere cy'uko azakira kuko yavuwe n'abaganga b'inzobere.

Inyubako nini cyane ikorerwamo n'ibitaro, bikaba bitanga serivise zinyuranye ku barwayi, urugero bavura: bavura amaso, bavura amenyo n'izindi ndwara, zaba izo mu nyama zo mu nda iz'amagufa ndetse n'izindi nyinshi.

RFSBT RBC koraboretingi senta, akaba ari ahantu RBC iba yaragennye kugira ngo batange serivisi zigiye zitandukanye zo gupima indwara zandura n'izitandura.

Umuganga uri kumwe n'umwana ukimara kuvuka , bakaba barimo bamwitaho bareba niba nta ndwara izo arizo zose yaba avukanye. Bityo agahita akurikiranwa bikiri mu maguru mashya.

Ibitaro binini birimo inyubako nyinshi kandi zitandukanye zikora ibintu byinshi bitandukanye ziba zirimo ibikoresho ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'abantu babigana.

Farumasi iraguha ikaba ari farumasi nziza cyane, irimo imiti y'ubwoko bwose yaba ikozwe mu bimera karemano ndetse n'ibindi, ikindi kandi bakorana na sosiyete nyinshi cyane zishinzwe ubwishingizi bw'ubuzima.

Inzu ikorerwamo n'ikigo nderabuzima kandi hakaba hatangirwa serivise zigiye zitandukanye zirimo iz'ubuvuzi, ikaba hubatse neza kandi hari n'ubusitani abantu bashobora kuba baruhukiramo mu gihe batarahabwa serivisi.

Ibitaro bivurirwamo indwara zigiye zinyuranye zitandukanye. Bitewe n'izo buri wese arwaye. Hari ubusitani bunini bwiza kandi abantu bashaka kuburuhukiramo, mu gihe batarabonana na muganga.

Imashini yo kwa muganga n'igitanda kiri imbere yayo, umurwayi akenera ibi byose kugira abashe kuba yavurwa, mu buryo bukoresheje ikoranabuhanga kandi bwizewe.

Inyubako nziza kandi nini cyane, ikaba yarubakiwe kugira ngo izajye yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye. Batanga serivisi zigiye zitandukanye, urugero nko gupima indwara, kunyuzwa mu cyuma ndetse n'izindi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga baba mu gihe barigusuzuma cyangwa se barimo kuvura umurwayi. Buri mashini ikaba ifite akazi igomba gukora bitewe n'ibyo yateganyirijwe.

Ku kigo nderabuzima buri muntu wese ntahejwe kandi yemerewe kuza kwaka serivisi zigiye zitandukanye buri wese uhaje abanza guca iho bakirira abantu hazwi nka (reseption) kugira ngo bamuhe gahunda bitewe n'ibyo ashaka.

Ivuriro rigari kandi rinini, ririmo ibikoresho ndetse n'imashini zigiye zitandukanye. Hakaba kandi hari n'ibyumba bishinzwe kuba byakwita ku bana. Havurirwa indwara zigiye zitandukanye bitewe n'iyo ushaka.

Imashini yo kwa muganga iri mu cyumba kibarizwamo umurwayi, ikaba ikoreshwa n'umuganga bitewe n'ibyo ashaka kureba, hari kandi igitanda umurwayi aba aryamyeho mu gihe ari kuvugishwa n'umuganga cyangwa ari kumusuzuma.

Icyumba kivurirwamo abana, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bikenerwa na muganga kugira abashe gukurikirana umwana urimo kandi abashe kuvurwa akira neza rwose

Kwa muganga, hakaba hari icyapa cyerekana yuko hari parikingi kandi bitemewe kuvugirizamo amahoni, hakaba haba hari abarwayi batandukanye kandi haba hari n'abashinzwe umutekano.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo siporo kikaba gifite ibikoresho bigiye bitandukanye, urugero nk'icyuma cyo kwirukaho ndetse n'igare ryo kuba umuntu yanyonga ubishaka wese ashobora gukoreramo siporo.

Aho babika linete zikaba ari linete nyinshi cyane bitewe n'iyo bakwandikiye uraza bakareba igukwiriye kandi ijyanye n'ibipimo muganga yaguhaye akaba ari zo baguha bityo nawe ukabasha kubona neza.

Icyumba cy'umurwayi ndetse na muganga kirimo ibyangombwa byose harimo kandi nk'igitanda cyiza cyane umurwayi ashobora kuba yaryamaho, mu cyumba kandi harimo imashini nyinshi cyane umuganga ashobora kuba yakenera asuzuma umurwayi we.

Inyubako nini kandi nziza isize amarangi y'umweru ndetse ikaba isakajwe amabati y'umutuku, ikaba ikorerwamo n'ibitaro bivura indwara zigiye zitandukanye zaba iz'umutima ndetse n'izindi.

Icyuma cyangwa se imashini yifashishwa na muganga mu kugira ngo abashe gusikana umurwayi bityo arebe niba inyama z'imbere mu mubiri we cyangwa se amagufa nta kibazo na kimwe yaba yagize.

Inzu ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye urugero utwuma two guterura kugira ngo umuntu ananura imitsi kandi anakomeze amagufa hakaba kandi hari n'ubundi bwoko bwa siporo umuntu ashobora gukora urugero nko kunyonga igare n'ibindi.

Ibiro bitandukanye, birimo intebe zo kuba abantu bakicaramo mu gihe bari kuganira, hari kandi n'izindi ntebe ku ruhande, abantu bicaramo mu gihe bategereje. Harateguye neza kandi hari na televiziyo bashobora kureba ntibarambirwe.

Umurongo munini cyane w'abarwayi bitabiriye, kugira ngo babashe kuba basuzumwa indwara zitandukanye, kandi bahabwe ubuvuzi, bose hamwe uko bicaye bakaba bagiye bahana intera ya metero, kugira ngo birinde kwanduzanya.

Inzu nini cyane ikorerwamo n'ibitaro, bikaba bifite abaganga bagiye batandukanye, bitewe n'indwara bashinzwe kuba bavura, iyi nzu yubatse ahantu hagari kandi hari n'ubusitani bwiza cyane.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu, ishobora gusikaninga amagufa cyangwa se ikareba inyama zo mu nda. Urugero nk'urwagashya, mu mutima, umwijima ndetse n'izindi.

Icyumba cy'umurwayi kirimo ibikoresho byinshi bi bigiye bitandukanye, harimo amamashini bitewe n'icyo buri yose ikora, kandi hari n'uburiri umurwayi ashobora kuryamaho mu gihe arimo gukurikiranwa na muganga.

Irikade Afurika ikaba ari inzu yagenewe ubuvuzi bugiye butandukanye, ikaba irimo ibitaro kandi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zirimo indwara zo mu mutwe indwara z'amaso ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye inkweto z'umweru ndetse na ga mu ntoki ze ukora kwa muganga, akaba ari kugenda areba imashini zitandukanye kandi azikorera amasuku, akareba niba nta kibazo zagize.

Umugabo wazindukiye muri siporo, yambaye imyenda itamubangamira ku buryo ari bukore siporo yisanzuye, akazuba kavuye kandi yitwaje amazi yo kunywa kuko amazi ari meza ku buzima bwa buri muntu.

Imbangukiragutabara kikaba ari ikinyabiziga ndakumirwa kibasha kuba cyatabara umuntu kubera yuko aho bikomeye kibasha kuhagoboka kandi kiba kiri kumwe n'abaganga b'inzobere bashobora guhita batangira gufasha abantu.

Umugabo w'umuzungu wambaye inkweto za siporo ndetse n'imyenda itamubangamiye yo gukora na siporo akaba arimo kwiruka hari ibiribwa bitandukanye aba yariye harimo imbuto karoti, amashu ndetse n'ibindi, kugira ngo abone imbaraga.

Farumasi ya siporo ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byongera imbaraga mu mubiri kandi bagira inama abantu z'ibyo bashobora kurya kugira ngo birinde indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse n'izindi.

Umugabo umaze gukora siporo ari kumva indirimbo ziri kumutera courage yambaye imyenda iri kumufasha kuba yakora siporo neza yibutse kunywa amazi kuko ari ingenzi ku buzima bwe bwa buri munsi.

Fasiti Eyidi Kiti kakaba ari aka bosi kaba karimo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byakifashishwa mu gutabara mu gihe wenda umuntu agize impanuka cyangwa se avunitse mu buryo butunguranye, ako gakapu kaba karimo udukoresho twinshi kandi tw'ingenzi.

Stop pain akaba ari umuti wizewe kandi ukorwa mu bimera karemano, ukaba ushobora kugufasha kugabanya uburibwe mu gihe uri kubabara mu ngingo cyangwa se mu nteranyirizo z'ingingo zitandukanye, ukaba wawukoresha.

Imiti gakondo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikorwa hifashishijwe ibimera bikaba bishobora gufasha mu gihe umuntu yahuye n'ibibazo hari kandi ibipfuko ndetse na bande zishobora gukoreshwa mu gihe umuntu yavunitse.

Umutoza utoza imyitozo ngororamubiri akaba ari kumwe n'umukiriya we arimo kumufasha kurambura imitsi yo mu itako ari nako ayimasa, ibyo bikaba bizamufasha kandi bikamurinda indwara zitandukanye z'imitsi nka rubagimpande n'izindi nyinshi.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu kugira ngo bakurikirane niba umutima w'umurwayi utera neza, ikaba yerekana inshuro umutima urimo gutera kandi ikanagaragaza ibimenyetso by'uko umutima we ari muzima.

Abaganga bagiye batandukanye bakaba bari mu cyumba kimwe bose bafite ikaramu n'impapuro barimo guhabwa amabwiriza binyuriye ku ikoranabuhanga kandi bayobowe n'umuganga uri ku ikoranabuhanga kugira ngo biborohere.

Imashini ikoreshwa na muganga yerekana uko umuntu ahagaze, akaba ashobora gukora siporo ikagenda ipima uko ubuzima bwe buri kugenda bumera, kandi ikaba ari nziza cyane kuko ifasha abantu kurwanya indwara zitandukanye ziterwa no kuba umuntu atakoze siporo.

Umutoza uri kumwe n'umuntu arimo gutoza kandi akaba arimo kumumasa imitsi ye ndetse n'umugongo kugira ngo yirinde indwara nka rubagimpande indwara ziterwa n'imitsi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Stopu payiningi akaba ari umuti ukorwa mu bimera ushobora kuba wagabanya uburibwe mu gihe umuntu yakomeretse cyangwa se arimo kumva ababara mu ngingo ashaka gukoresha uyu muti kuko wemewe n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda.

Umukobwa wambaye ekuteri, akaba ari gukora siporo ariko yibutse kunywa amazi nka kimwe mu bintu by'ingenzi kuko iyo ari gukora siporo atakaza amazi menshi aba akeneye kuyongera kandi amazi ni ubuzima.

Umugabo wambaye ga zirinda intoki ze kuba zakangirika bitewe n'ibintu agiye gukoramo cyangwa se agiye guterura, zikaba zisa umukara kandi zikozwe mu buryo zitinjirwamo n'amazi.

Abaganga babiri barimo kwita ku mukinnyi, ugize ikibazo mu buryo butunguranye. Akaba ari umuganga w'umugore ndetse n'uw'umugabo, barimo gutanga ubufasha bw'ibanze ku mukinnyi, ugize imvune mu kibuga.

Udukoresho ndetse n'ibindi bigiye byifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, hakaba hari utwo wisiga kugirango ugire uruhu rwiza runyerera kandi ruzira ibiheri, bikaba byose bikozwe mu miti gakondo ndetse n'ibyatsi karemano.

Imboga ndetse n'imbuto, amazi yo kunywa ibikomoka ku matungo urugero nk'amafi ndetse n'inyama ibikomoka ku byatsi, ni ukuvuga imboga ndetse n'imbuto bikaba bishobora gufasha mu kuba umuntu yagira ubuzima bwiza.

Ishami rya croix rouge mu Rwanda, ririmo rirahabwa ibyangombwa byose, urugero nk'imyitozo kugira ngo babashe kumenya uko bagomba kuba bakorera ubutabazi bw'ibanze umuntu uhuye n'ikibazo.

Umugabo uri gukoresha imashini compiyuta kugira ngo afashe abandi barwayi bari mu bihugu bigiye bitandukanye abaganga baraza kumukenera muburyo bw'amashusho kugira ngo abahe ubufasha.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, imiti, ga, bande, ndetse n'utundi dukoresho twinshi cyane, twifashishwa mu buvuzi. Byose bikaba biri mu gakapu kamwe kitwa fesiti eyidi baga. Kakaba kagufasha kugira ngo ubashe kwitabara bibaye ngombwa.

Umugore urimo urivura indwara zitandukanye, zaba iz'imitsi cyangwa se imvune, akaba arimo akoresha umuti gakondo wakuwe mu bimera kandi ukaba wemewe, wizewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge.

Imashini zitandukanye ziri mu bitaro kugira ngo zifashishwe na muganga mu gihe apima cyangwa se asuzuma uburwayi kugira ngo abashe kumenya neza ahari ikibazo, bimworoheye kandi byizewe.

Umugabo urimo urakora siporo, afite utwuma mu ntoki ze, arimo aragerageza gukoresha imitsi ye n'amagufa ye kugira ngo ibashe kuba yakomera, ifate neza kuko yari yaragize ikibazo cy'imitsi n'amagufa.

Umuganga urimo kwita ku muntu umaze kuba yakomereka kandi yagize imvune arimo kumuzirika bande kugirango ibashe kuba yamufasha gukira mu buryo bwihuse kandi neza.

Umugabo uri mo gukora siporo yambaye imyenda imurekuye ninkweto zoroshye zimufasha gukora siporo bitamugoye afite ikibazo cyo mw,ivi yikubise hasi kandi akeneye ubufasha bw'ibanze.

Agakapu kaba karimo ibikoresho by'ibanze umuganga cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ashobora kugendana, kugira ngo mu gihe habaye impanuka, cyangwa se ashaka gutabara umuntu mu buryo bwihuse aba agafite, kaba karimo imiti ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Umugabo wambaye imyenda akorarana siporo, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, kandi ari mu cyumba kigari kirimo ibikoresho byose ari buze gukenera mu kuba yakora siporo, kandi biramurinda indwara zitandukanye.

Bande zigiye zitandukanye, zishobora gukoreshwa ku maboko. Mu gihe umuntu afite agashoke gatoya cyangwa se imvune ariko idakabije, ashobora gufashishwa n'ubu bwoko bwa bande, maze bikabasha kumufasha, agakomeza kumera neza.

Ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto bigiye bitandukanye, bikaba bishobora kuba byarinda indwara kandi bigatera imbaraga. Ibikomoka ku matungo kandi nabyo n’ingenzi cyane, urugero nk'inyama ndetse n'ifi, amagi na yo ntakabure ku ifunguro ryawe ndetse n'imbuto.

Siporo, indyo yuzuye, kunywa amazi byose bikaba ari ibintu bikenewe kugira ngo umuntu abashe kugabanya umubyibuho ukabije yaba afite cyangwa se ashaka kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri y'umuhondo ndetse akaba yambaye na ekuteri mu matwi ye ari kumva indirimbo kugira ngo zimutere kuraje, yazindukiye muri siporo kuko siporo ari ubuzima, arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo umuntu ashobora kuba yakoramo siporo kandi akaba yanakirinda ibintu bishobora kuba byatuma arwara indwara zigiye zitandukanye, urugero agomba kwirinda ibibazo bigiye bitandukanye, kandi akaba yakomeza kumererwa neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'imashini ipimaka uko umutima uri gutera mu ntoki ze. Ari kumwe kandi n'umurwayi we, arimo arasuzuma niba nta bibazo mu ngingo ze yaba afitemo.

Imashini yifashishwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ibashe kuba yapima indwara zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu ndetse na mikorobe cyangwa se virusi ntoya cyane zitaboneshwa amaso irazibona.

Abagabo babiri bari bari gukina umupira w'amaguru ariko bagonganye umwe aravunika yahise ahabwa ubufasha bwihuse n'umuganga w'inzobere wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara.

Amazi meza n'ubuzima umugabo uri gusuka amazi mu kirahure kugira ngo abashe kuyanywa bityo agire ingaruka nziza ku mubiri we kuko bimurinda indwara nyinshi zitandukanye urugero nko kumagara k'umubiri, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi.

Umuganga urimo gupfuka ndetse akaba ari no guhambira bande ku kuguru k'umukinnyi wakomeretse, mu gihe yari arimo gukina. Arimo kuyihambiraho yitonze kugira ngo abashe kuba yamuvura neza.

Akagare k'abamugaye, kagendaho umuntu ufite ikibazo mu maguru, ku buryo atabasha gutambuka. Kaba gafite amapine ane, kandi gafite aho umuntu ashobora gufata, mu gihe ari gusunika uwo muntu.

Imashini yifashishwa mu kuba yasuzuma umuntu umubiri we w'imbere. Urugero inyama zo mu nda, amagufa ye, umutwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bikaba ibi byuma biboneka mu bitaro.

Imashini yifashishwa n'umuganga mu gupima cyangwa se gusuzuma indwara zigiye zitandukanye bitewe n'icyo muganga aba ari buyimaze, niwe umenya neza icyo ari buyikoreshe.

Icyumba cyo kwa muganga kibamo ibikoresho bigiye bitandukanye bitewe n'umurwayi ugezemo, muganga niwe uhitamo imashini ari bumukoresheho amusuzuma cyangwa se amuvura.

Umukobwa uvuye muri siporo ufite agasume ku bitugu bye kandi afite icupa ry'amazi arimo kunywa bitewe nuko yakoresheje imbaraga nyinshi ikindi kandi amazi ni ubuzima kuri twese.

Umukobwa urangije gukora siporo yari yambaye ekuteri zirimo imiziki imutera kuraje kandi yibutse n'icupa ry'amazi agomba kunywa kubera yuko amazi ari meza ku buzima bw'umuntu.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo umuntu ashobora gukora siporo zigiye zitandukanye, akabasha kuba yakora, kandi agasohora umwanda mu mubiri. Nyuma yaho aba ashobora gufata ibyongera imbaraga, urugero nk'amazi ndetse n'ibindi, kugira ngo akomeze ameze neza.

Abagabo babiri, umwe akaba ari umutoza, undi akaba arimo arakora siporo zikomeza umubiri we kandi zikamuha n'imbaraga mu buzima bwa buri munsi. Zimufasha kandi kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo nk'umubyibuho ukabije, rubagimpande n'izindi.

Ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga n'imbuto, byose bikaba byakoreshwa mu kugira ngo umuntu abashe kuba yakwivura indwara zitandukanye, hakaba harimo puwavuro, karoti pome, ndetse na kokobata, byose bikaba bikoreshwa mu buvuzi.

Agakapu k'ubutabazi kazwi nka fesite eyidi, kaba karimo ibikoresho byinshi kandi nkenerwa, kaba gashobora gutabara umuntu mu gihe agize uburwayi butunguranye ariko nanone budakabije ni byiza ko gahoramo ibikoresho byose.

Imashini yo kwa muganga ifasha abaganga bagiye batandukanye kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi kandi bigire hamwe bitewe n'ibisubizo imashini iri bubahe ku ndwara y'umurwayi babashe kuyitaho.

Umugabo umaze gukora siporo akaba yambaye imyenda itamubangamiye ku buryo mu gihe ari bube akora siporo ari bwumve yisanzuye ari kunywa amazi kugira ngo aruhuke ho gato ubundi akomeze siporo kuko ari ibintu akunda cyane.

Umugabo ufite umuti mu ntoki ze urimo kwivura aho yaba yagize ikibazo, mu nteranyirizo z'ingingo umuti ari gukoresha ni umuti gakondo uri mu gashashi, ako gashashi kakaba gasa ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ikarita imuranga mu kazi, akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri ari gufasha umukiriya we kuba yayikora maze agira ubuzima bwiza.

Umugabo uvuye muri siporo, ufite akayesume mu bitugu bye kandi afite amazi mu icupa arimo kuyanywa, bitewe nuko yatakaje menshi. Ikindi kandi kunywa amazi ni meza kuko amazi ni ubuzima.

Imashini yifashishwa mu gukora siporo ndetse ikanagaragaza neza uko ubuzima bw'umuntu uri kuyikoresha buhagaze ikaba ari imashini yo mu bwoko bwa eregitoronike icomekwa kandi ikoreshwa umuriro w'amashanyarazi.

Icyuma gikoresha ikoranabuhanga kandi kikaba gipima uko ubuzima bw'umuntu buhagaze kikaba kimenyerewe kwa muganga kandi kikaba cyifashishwa n'inzobere kugira ngo kirebe umubiri w'umuntu neza ndetse n'indwara ziwurimo.

Payini ririfu oruweyizi shipufuri, payini ririfu ukaba ari umuti mwiza cyane ukorerwa mu bimera ijana ku ijana, ukaba uhagarika uburibwe ubwo aribwo bwose haba mu ngingo cyangwa ahandi mu mubiri.

Umugabo ufite umuti mu ntoki ze, akaba arimo arivura indwara zigiye zitandukanye; zaba iz'imitsi cyangwa se izindi zitandukanye. Ari gukoresha kandi umuti gakondo ukomoka mu bimera bya kimeza.

Urubuga rwemewe rw'abakina umukino w'imikino ngororamubiri mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari federasiyo yemewe n'igihugu cy'u Rwanda ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda kandi ikaba ikora iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku wa gatanu.

Urupapuro rufasha mu kuba rwapfuka cyangwa se umuntu urufite akaba yarushyira kukaboko ke cyangwa se akaguru ke mu gihe arimo gukora siporo zigiye zitandukanye kuko rushobora kuba rwamufasha.

Icyuma kiba kwa muganga cyifashishwa mu kugira ngo umuntu bamusikane, barebe neza imbere mu magufa ye inyama zo mu nda, mu mutwe we ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba kibasha kuba cyareba indwara ziririmo imbere.

Imboga n'imbuto ndetse no gukora siporo bikaba ari bimwe mu bifasha umubiri wawe kugira ngo uze kumererwa neza kandi biwurinda indwara ikindi kandi guhora wipima buri gihe kugira ngo wirinde umubyibuho ukabije bizagufasha mu gihe ushaka kuba wagabanya ibiro.

Umusore urimo urakora imyitozo ngororamubiri, akaba afite terefone ye kandi ari kumva imiziki kugira ngo imutere imbaraga. Yambaye inkweto ndetse n'imyenda imworohera kugira ngo akore siporo.

Umukinnyi ukina rugubi akaba yaragize ikibazo cy'imvune itunguranye, akaba arimo kwitabwaho n'abaganga babiri icyarimwe, kugira ngo babashe kuba bahita bamuha ubufasha bw'ibanze akeneye.

Imiti igiye itandukanye, ikaba iri mu ducupa twinshi kandi dufunze neza, higanjemo kandi imiti ikoreshwa mu kuba yavura indwara z'ubuhumekero, bande zishobora gukoreshwa igihe umuntu yavunitse ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo urimo akora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda itamufashe cyane cyangwa se ngo ibe yamubangamira mu gihe arimo akora siporo ari mu nzu kandi irimo ibikoresho bitandukanye ari bwifashishe akora siporo.

Umurwayi uri kumwe n'umuganga we, akaba arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye yongere ikore neza. Akaba yicaye mu kagare k'abamugaye. Mu minsi mike araba abasha kugenda kuko ari gukora imyitozo.

Udukombe tubiri turimo umuti uvura inkorora kuko harimo icyatsi cyitwa umuravumba mu kinyarwanda kikaba kivura inkorora giripe ndetse n'izindi ndwara z'ubuhumekero zigiye zitandukanye.

Tryahu.com rukaba ari urubuga ushobora kuba wabonaho ibikoresho ndetse n'imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera karemano, ushobora kubahamagara cyangwa se ukabandikira kuri website yabo bakabikugezaho.

Amaronji harimo ironge rikasse ndetse n'ayandi adakase hakaba harimo amaronji yahiye neza ndetse n'ayandi agifite icyatsi kibisi yose akaba ari imbuto abantu bakunda.

Ikimera cyangwa se igihingwa cyifashishwa mu kuba cyakorerwamo imiti igiye itandukanye. Kikaba kimeza mu ishyamba cyangwa se ukaba wagihinga mu rugo. Kikaba kiba kiri natirere kuko nta yindi miti yongerwamo yo mu nganda.

Ikimera kimeza mu murima cyangwa se ukagisanga mu mashyamba manini, gifite indabyo z'umutuku, kikaba gishobora gukoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye kandi kikaba kizewe rwose.

Umuti ukorwa mu bimera karemano ukaba ufite garama ijana, akaba ari umuti mwiza kandi wizewe, wemewe kandi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kureba ubuziranenge bw'imiti mu Rwanda.

Imiti igiye itandukanye myinshi igenda iva mu bimera, kandi igatunganywa mu buryo bwa gakondo, ushobora guhamagara kuri zeru karindwi umunani rimwe, icyenda kabiri gatanu kane umunani kane.

Serumu ikaba yifashishwa mu kugira ngo abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye batabasha kurya, ibashe kubabagirira akamaro mu gihe runaka, ikaba ishyirwaho n'abaganga n'ibipimo bikaba bigenwa n'abaganga.

Imiti ikorwa mu bimera urugero nk'ikorwa muri arovera, akaba ari umuti ushobora kunywa kandi ukaba wakurinda indwara zijye zitandukanye. Hari kandi na nitirishiyonol canje sisitemu akaba ari umuti na ukorwa mu bimera ushobora kwifashisha nko kuvura indwara zitandukanye.

Ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibiti bisa icyatsi, bikoreshwa mu buvuzi gakondo. Imiti ya kinyarwanda ikaba igira uruhare cyane mu gufasha abaturage.

Fiti Nitirisheno Kirininsingi Porogaram Si Nayini, ikaba ari umuti wizewe kandi ukoreshwa n'abantu bashaka kuba bajya kuri sayizi bitewe n'umubyibuho baba bafite.

Ikibabi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kikaba gifite imbaraga, kubera y'uko gishobora kuba cyakifashishwa mu kuvura ibintu bigiye bitandukanye, urugero indwara z'uruhu nyinshi zigiye zitandukanye.

Igihingwa aluvera gishobora kuboneka mu ishyamba cyangwa se kikaba cyahingwa mu rugo bitewe n'uko buri wese abishaka. Mu kinyarwanda cyiza cyitwa igikakarubamba, kikaba ari umuti ushobora kuvura indwara nyinshi icyarimwe.

Imiti gakondo ikaba yemewe na leta y'u rwanda by'umwihariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kirabanza kikayisuzuma kandi iba yakomotse ku bimera byizewe kandi bivura koko urugero nka tangawizi ibibabi by'indimu ndetse n'ibindi byinshi.

Umu mama wambaye imyenda y'imyeru ufite n'ishakoshi mu ntoki ze, akaba arimo gusoroma bimwe mu bibabi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zaba izo mu nda ndetse n'izindi zitandukanye, ukaba ari umuti kimeza.

Ibinini bitandukanye bikozwe kandi byatunganyijwe neza; bikaba bikozwe mu bimera, bikaba bifite umwihariko udasanzwe wo kuba wavura indwara zigiye zitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi kibisi bigaragaza y'uko byakuwe mu bimera byimeza.

Ibinini bigiye bitandukanye kandi bifite imbaraga, kuko bikorwa mu bimera karemano bikaba byemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibicuruzwa.

Foreva arovera jeri ikaba ari amavuta meza cyane umuntu asiga uruhu rwe, bityo akabasha kuba yamera neza umubiri we ukoroha kandi ntugire ibiheri.

Foreva aroberi nekitari, ukaba ari umuti ukorwa mu bimera byimeza mu ishyamba cyangwa se ibishobora guterwa, ukaba wemewe na Leta kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyawemeje.

Ibyatsi bigiye bitandukanye byimeza mu ishyamba cyangwa se bishobora guterwa n'abantu, bikaba byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye kandi bikaba byizewe kubera yuko byemewe n'ikigo cy'Igihugu cy'ubuziranenge.

Imiti igiye itandukanye yose ikozwe mu bimera, kandi yose ikaba iba ifunitse neza, haba mu ducupa cyangwa se mu makarito. Ikaba iba igizwe n'amakereme yo kwisiga cyangwa se akaba aba ari amasabune yo koga cyangwa se ibyo kunywa.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bimwe byimeza mu mashyamba cyangwa se mu mirima igiye itandukanye ikindi kandi uba ushobora no kubizana ukabitera iwawe kuko bitagoranye bikaba bivamo imiti igiye itandukanye myinshi.

Bimwe mu bihingwa bigiye bitandukanye, cyangwa se ibyimeza, ibyatsi byinshi bishobora gukoreshwa mu buvuzi gakondo. Icy'ingenzi ni ukumenya ibyo ari byo, maze bigatangira gukoreshwa.

Choleduz omega supreme, ukaba ari umuti uri ku isoko washyizwe hanze na alliance global; ukaba ukozwe mu bimera ijana ku ijana, kandi birizewe. Ikindi kandi wahawe icyangombwa n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuziranenge.

Icyatsi kibisi, kikaba kimeza mw’ishyamba, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara nyinshi zitandukanye. Urugero indwara zo mu nda, urugero nk'amara ndetse n'urwagashya.

Imiti gakondo imiti ya kinyarwanda iri mu macupa apfundikiye neza kandi yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge, ikaba iri gucuruzwa n'abantu babyigiye kandi ba abifitiye ububasha bakaba bafite n'abakiriya.

Ubunyobwa, igitoki ndetse n'ibyatsi, biri ahagana hejuru, bikaba byose ari imiti myiza cyane, ifasha abarwayi bafite uburwayi butandukanye, kandi ikabakiza.

Ibimera byinshi bigiye bitandukanye bikaba byimeza mu ishyamba cyangwa se mu mirima igiye itandukanye, bivamo imiti ishobora gukoreshwa kandi ikaba yizewe kuko nta zindi ngaruka mbi yagira ku buzima bw'umuntu.

Ibibabi bikorwamo imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi icyarimwe. Ikaba ari igiti cyangwa se ikimera gishobora kwimeza mu ishyamba cyangwa se ukaba wagitera mu rugo iwawe ukacyitaho.

Foreva loyo jeli, akaba ari umuti ukorwa mu bimera kandi wamaze kugera ku isoko ry'igihugu cy'u Rwanda, wemewe kandi na leta y'u Rwanda, kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyawemeje.

Ibimera bitandukanye harimo imbuto ndetse n'ibyatsi, byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Ikaba iba ari imiti yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge.

Alo jojoba shampo ikaba ari umuti ukoreshwa mu kuba wasukura mu mutwe isabune nziza cyane ikozwe mu bimera ijana ku ijana kandi nta ngaruka igira kuko nta yindi miti iba yongewemo yagira ingaruka ku ruhu.

Igiti kimeza mu bisambu cyangwa se mu mirima, bikunda kandi kumera no mu mashyamba manini cyane, bikaba bivamo imiti myinshi igiye itandukanye bitewe n'icyo ushaka kwivuza.

Foreva Aruberi Nekitari akaba ari umuti ukorwa mu gihingwa cyangwa se icyatsi kimeza mu ishyamba, ariko umuntu ashobora no kuba yakitera mu rugo iwe, kikaba gitanga ubushobozi butandukanye ndetse n'ubwirinzi ku mubiri.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bukoresha imiti gakondo, bikaba ari ibyatsi bikunze kuboneka mu mashyamba kandi no mugihe umuntu abishaka ashaka kubitera iwe mu rugo bityo akajya abyifashisha.

Igihingwa cyangwa se icyatsi kimeza mu butaka kikaba gikunda kumera mu mashyamba y'inzitane cyangwa se mu bwatsi aho ariho hose, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti kandi myiza cyane ivura indwara nyinshi.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ashyizemo ishati isa umutuku na karuvati y'umweru n'inkweto z'umukara, ahagararanye n'undi mugabo wambaye ishati y'igitenge, bari kumwe kandi n'abandi benshi babaherekeje bambaye imipira isa icyatsi.

Tiwiyahu dotucom ukaba ushobora kuba wajya kuri urwo rubuga cyangwa se ugahamagara nimero zabo zikurikira magana abiri mirongo itatu na gatatuzeru magana atanu mirongo ine na gatandatu ijana na makumyabiri na kabiri ijana mirongo itatu na karindwi bityo nawe ukitumiriza imiti igiye itandukanye ya gakondo.

Nacila sebutikozi, amasaha makumyabiri n'ane kuri arindwi, mukaba muyigezwaho na Aliyanse Egorobo kandi biremewe kubera ko ikoreshwa ijana ku ijana n'ibihingwa, kandi bikaba ari ibihingwa karemano.

Ikimera kimera mu ishyamba kikaba cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, kivura indwara nyinshi zitandukanye zaba izo mu nda, iz'uruhu ndetse n'izindi nyinshi bitewe n'iyo ushaka.

Umuravumba ukaba ari umuti wagizwe ifu ukuwe mu gihingwa cyangwa se igiti cya kimeza cyitwa umuravumba. Kikaba gifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi icyarimwe zitandukanye.

Umugabo ufashe ku kibabi cyifashishwa mu kuba cyavura indwara zigiye zitandukanye, kikaba gikoreshwa mu buvuzi gakondo kandi kikaba gikungahaye ku buryo cyifashishwa mu miti myinshi igiye itandukanye.

Aloe Avocado, Face and Body Soap, Foreva Burayiti, Alo Hiti, Foreva C Plus, iyo yose ni amasabune, ndetse hakaba hari n'amavuta agiye atandukanye, yose akorwa mu bimera.

Imiti igiye itandukanye ifunze neza kandi iri mu macupa yemewe n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye kandi ikaba ikorwa mu bimera karemano.

Umuravumba kikaba ari igiti kimeza kandi gifite ubushobozi bwo kuba bwavura indwara zigiye zitandukanye kikaba ari icyatsi kibisi kikaba gishobora kwimeza ahantu aho ari ho hose uyu ni umuti ukomeye kandi uvura indwara zitandukanye.

Ibimera karemano kandi byimeza mu mashyamba bikaba byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, kandi ubuvuzi bwinshi bwifashisha ibimera bukaba bwemewe n'amategeko kandi bukaba bwarahawe uburenganzira n'ikigo cy'igihugu cyemeza yuko ibintu bifite ubuziranenge.

Ikimera cya kimeza kiboneka mu ishyamba cyangwa se ahantu mu busitani, ushobora kandi no kuba wabitera mu rugo iwawe kugira ngo uzajye ubyifashisha mu miti igiye itandukanye kandi wujuje ubuziranenge.

Forever bee honey, forever bee pollen ikaba ari imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi ikaba ikorwa mu bintu gakondo. Urugero: nk'ubuki ndetse n'ibimera.

Imiti myinshi igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Ikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye. Indwara nyinshi zivurwa n'iyi miti ya gakondo kandi iba yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge.

Forever bee honey ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, urugero nka forever bee pollet, bikaba byose ari imiti yizewe ikubiyemo ubuki ndetse n'ibindi, bikaba bikorwa mu bintu karemano, urugero nk'ubuki, indabo n'ibindi

Alovera Jeri, Alo Poropozo Kereme, byose bikaba bikorwa mu bintu karemano, urugero nk'ibihingwa cyangwa se ibyatsi bigiye bitandukanye bigenda byimeza mu mashyamba.

Umugabo uri mu mirima ye y'ikawa, yahinze mo ikawa, akaba arimo kuzisarura. Ikawa kikaba ari igihingwa cyiza kandi cyera, gitanga umusaruro kandi gikuri muri kirima izo arizo zose zitandukanye.

Icyatsi cyera mu ngo z'abantu cyangwa se umuntu akagisanga mu mashyamba ya kimeza kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igi itandukanye ivura abantu yaba imiti ivura uruhu ndetse n'imiti ivura inyama zo mu nda.

Aloe vera Gelly, ikaba ari umuti mwiza cyane ukorwa mu bimera karemano kandi ukaba ufite ibyangombwa byose, ukaba wemewe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge, hari kandi na Aloe vera y'isabune, yifashishwa mu kuba umuntu yagira uruhu rwiza.

Agacupa gapfundikiye neza karimo umuti gakondo ukozwe mu bimera bya aluporopo ikaba ari kereme nziza cyane ukoresha ku ruhu ikaba yavura indwara z'uruhu zigiye zitandukanye urugero nk'ibiheri ndetse no kumagara k'uruhu ikaba ari nziza cyane kuko iri natirere.

Shampo ikozwe mu kimera alo jojoba ikaba ikoreshwa mu kuba abantu bafura mu mutwe kandi bikabarinda indwara ikabikuraho ndetse n'umwanda w'uburyo bwose.

Ehurusemu habo ti range, ikaba ari imiti ikorwa hifashishijwe ibimera karemano. Bikaba bishobora kuba byasangwa mu mashyamba ya kimeza, cyangwag se bikaba byaterwa mu ngo z'abantu.

Imiti ikomoka ku byatsi karemano bya kimeza .Ushobora kubitera mu rugo iwawe cyangwa se ukaba wabishaka mu ishyamba. Ni ibyatsi byemewe kandi bivura neza kuko biba bifite ubudahangarwa.

Uburoso bw'amenyo buri muntu agomba kubugira kuko ari ingenzi cyane, ikindi kandi gukoresha korogate nziza cyane ikorwa mu gikakarubamba ni ingenzi kuko igikakarubamba kigira ibintu bigomba gutuma amenyo yacu akomera.

Ikimera karemano kifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye kikaba ari icyatsi gishobora kumera mu ishyamba cyangwa se umuntu abaye agishaka akaba yagitera mu rugo iwe akakibungabunga bityo akakivanamo imiti.

koledozi aliyanse omega sapurimu ukaba hari umuti ukorwa mu bimera bikaba byimeza mu mashyamba y'inzitane, cyangwa se bikaba bishobora guhingwa mu rugo ku buryo bikorwamo imiti.

Imiti igiye itandukanye ifunitse neza kandi imwe muri ikaba iri mu ducupa dufunze neza ikaba ari imiti gakondo yemewe n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuziranenge kandi ikaba icuruzwa ku isoko ryo mu rwanda.

Icupa ripfundikiye neza harimo umuti ukozwe muri alovera ikaba ari imiti yemewe n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuziranenge kandi bikaba bikorwa mu bimera, ikaba ari imiti karemano.

Igihingwa cyangwa se icyatsi kimeza bitewe, bikunze kumera mu ishyamba ariko kikaba gifite akamaro kuko cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye kandi kivura indwara nyinshi.

Ibimera bigiye bitandukanye byimeza mu butaka cyangwa se mu mashyamba agiye atandukanye. Bikaba ari ingirakamaro kubera y'uko ari byo byifashishwa mu kuba hakorwa imiti yita ku buzima bw'abantu umunsi ku wundi.

Ibiganza by'umuntu ufite mu ntoki ze umuti ukozwe mu bimera karemano, ukaba uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zo mu nda, urugero nk'inzoka ndetse n'igifu. Ikaba ari ifu ikozwe mu byatsi karemano.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo bw'imiti y'umwimerere akaba ari umunsi wizihijwe muri bibiri na makumyabiri na kabiri ukaba ari umunsi ngarukamwaka kandi abavuzi gakondo ndetse na leta bose bafatanya kwiwizihiza.

Imiti igiye itandukanye, ikomoka ku bimera kandi ikaba ivura neza cyane kuko iba ikungahaye ku buvuzi. Ikaba yemewe n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuziranenge kandi kubera yuko nta bintu byinshi biba byongewemo byo mu nganda, nta ngaruka igira ku buzima.

Umuganga uvura indwara zigiye zitandukanye, ariko akaba akoresha imiti gakondo, ni ukuvuga aba yarakoze mu byatsi bya kimeza, yambaye neza agapfukamunwa ndetse n'imyenda imukwiriye neza ahantu hose kandi yambaye n'akantu ashyira mu musatsi we, ku buryo imiti iraba imeze neza.